Iyi ni ifumbire mvaruganda, ikoreshwa mu mu gufumbira, akenshi bakora ikintu kitwa apurikasiyo, bivuze kunyanyagiza ifumbire ku mizi iruhande rw'igihingwa, kugira ngo habeho igikorwa cyo kuhira.

Isosi, ifi igira isosi iryoha cyane, iyo itetswe iba ifite akenshi ibara ry'umuhondo, akenshi ikaryoha irishijwe ubugari cyangwa se umuceri. Ifi ifite intungamubiri cyane cyane iyo abana bayiriye ,ariko n'abantu bakuru ntibagwa nabi.

Amafi kuyategura wifashisha tungurusumu, ukifashisha ibitunguru, ukifashisha amavuta, bityo ukayakaranga neza kugira ngo utaza kuyateka ku buryo butari bwo, noneho bigatuma ashengukira mu cyo wayatetsemo, warangiza ukayagabura agishyushye.

Ifi iri hamwe n’umuceri, iri hamwe n’imboga, itetse neza. Bayiteka akenshi bayifatanyije n’ibyo kurya bindi, bakayiha amafiriti cyangwa se n’utundi tuntu kugira ngo iryohe. Ifi, mu by’ukuri, uyirya akumva apeti, akumva imuteye ubwuzu.

Amafi arakundwa, amafi akenshi acuruzwa henshi, cyane cyane agira intungamubiri n'amavuta agirira akamaro ubwoko. Amafi ni inyama nziza ziri mu nyama zemewe kuribwa, kuko zibarirwa mu nyama zidatukura, ahubwo zibarirwa mu nyama z'umweru.

Amafi ni ikiribwa buri muntu wese akenera, kuko amafi agira inyama nziza, zubaka umubiri, zidatera n'izindi ngaruka ku waziriye. Tugabura amafi mu muryango wacu, tugaburire n'abana bacu.

Ifi kugira ngo iryohe irakarangwa, ariko yamara gukarangwa, bagafata indimu bagatonyangirizaho, kugira ngo uburyohe bwiyongere, akenshi ifi yokeje irakundwa ikagaburwa igishyushye.

Amafi akenshi afatwa n'inshundura, iyo bamaze kuyaroba barayatembereza bayagurisha hirya no hino. Aya mafi aba agurishwa ku modoka anagurishwa ari mu mabase bityo umugenzi uko agiye ayakeneye akaba yayagura.

Igihingwa cyitwa ikidodoki, cyangwa icyo bita igishayote. Bagitera akenshi ku bishinga by'amabuye mu karere k'amajyaruguru, cyangwa se kigaterwa ku rugo cyangwa se, ku ruzitiro. Kikaba igihingwa gifite ubuziranenge kuko kiba kitarigeze gitezwa ifumbire mvaruganda.

Ibirayi ni igihingwa cyiza ni ikiribwa gikundwa, cyera mu Majyaruguru ndetse no mu gice cy'Amajyepfo muri za Nyaruguru na za Nyamagabe, ibirayi bigurishwa henshi mu masoko, ikiro kikaba gihagaze kuri magana atanu ndetse na magana atandatu bitewe n'ubwoko bw'ibirayi, bibamo amoko kinigi, mabondo n'ibindi.

Ikijumba, iki ni ikijumba, ikijumba gikundwa na benshi, ikijumba n'ikiribwa cyiza gishobora kuvamo imigati, kikavamo n'ibindi byaturukaho bitewe n'uko cyatunganijwe, gihingwa ahaba ubushyuhe cyane haba ku misozi cyangwa se mu kibaya kikaba ikinyabijumba.

Ihene ni itungo ryo mu baturage, ni itungo rifasha benshi kwivana mu bukene, kuko rishobora kubyara abana umwe, babiri, batatu cyangwa bane. Ihene iroroha kuyiragira no kuyishakira ubwatsi, ku buryo buri wese ashobora korora ihene uburyo abishatse.

Kuraza umurima ni byiza bituma guhingamo ubutaha byoroha, bigafasha abantu kugira umusaruro uteye imbere. Turaze imirima yacu, ubutaha niduhinga tuzasaruramo byinshi, guhingagura cyane bituma umurima ugunduka.

Akabuto kitwa imbuhora kera imbuto ziryoherera gafite vitamine nyinshi twera turi mu tubabi kuburyo iyo ugiye kukarya ubaza gutonora, akenshi dukunze kwimeza mu gisambu, cyangwa se ukaba wagatera bitewe n'umuti gashobora kuvamo.

Imboga zitwa ikidodoki cyangwa se icyo bita igishayote, kigoboka abantu mu nzara, kuko kigira imboga nziza cyane, n'ibihaza ni byiza, ni igihingwa kiba kitaratejwe n'ifumbire, ku buryo kiba gifite ubuziranenge.

Iki ni igihingwa cy'ibirayi, ibirayi byera mu majyaruguru, iburengerazuba, ndetse n'igice cyo mu majyepfo. Ibi ni ibirayi bigaragara nkaho ari ibirayi bya Sankima cyangwa se ibirayi byitwa Kinigi.

Ibirayi birahingwa iyo bimaze guhingwa mu ntabire bigera igihe bikamera, byamara kumera hagakorwa icyo bita kuwuhira ndetse no kubitera umuti, akenshi ibirayi byerera amezi atatu cyangwa se ane biterwa n' imiterere y' ubutaka.

Uyu ni umurima wasaruwemo ibishyimbo, n'amajeri, n'ibigori, ariko uyu murima bigaragara ko ukeneye guhingwa, ndetse ni umurara, bigaragara ko warajwe nk'ahagomba guhingwa neza, kugira ngo hazaboneke umusaruro uhagije mu gihe kiraza. Twese twihatire kuraza imirima yacu.

Ubu n'ubuhinzi bw'amashu, amashu zikaba imboga nziza cyane imboga, zikoreshwa mu guteka no kugabura bigira vitamine a.

Umujyanama w'ubuhinzi Agoronone yasuye umuhinzi w'ibirayi mu Murenge wa Kinigi, araberekera uko bagomba guhinga ndetse yaje gutanga n'ibihembo ku bantu bagiye bahinga neza.

Bigaragara henshi mu gihugu, cyane cyane mu Ntara y’Iburasirazuba n’Amajyepfo. Ibitoki bivamo ibintu binyuranye birimo inzoga, ndetse habamo n’ibiribwa imineke. Urutoki narwo ruri mu bihingwa biteza imbere uwaruhinze.

Ibishyimbo bisarurwa igihe cy'izuba akenshi iyo ubisaruye mu gihe cy'imvura usanga bibora kubihura bikagorana, ibishyimbo bigufi kubirandura ni byiza igihe cy'akazu, naho igihe cy'imvura hari igihe bimwe binameneka ugasanga birasigara mu butaka.

Ubworozi bw'ingurube bumaze gukiza abantu benshi, abantu benshi bazi ingurube nko ku izina ryitwa akabenzi, kagira inyama zitekwa mu maresitora no mu mahoteli, abantu benshi baragakenera baragakunda kazwi nko kuri rya zina ryitwa indyoheshabirayi, yanditswe na Musenyeri Bigirumwami ifite amateka rero tuzorore.

Voka zirimo amoko menshi. Hari voka ndende n'izo bita ivoka ngufiya zitwa imbanguriro. Izo voka ziraryoha cyane, kandi zera vuba ugereranije n'uko, n'igihe izindi zerera, zitabanguriwe.

Amateke ahingwa ahenshi mu Rwanda, amateke arimo amoko anyuranye, ni igihingwa kigira imizi, kandi aho bayakase, icyo bakaseho baragitera, aboneka mu Majyaruguru, akaboneka hose n'Iburengerazuba, cyane cyane mu Majyepfo na hehe.

Iki gihingwa cyitwa amashyaza, cyangwa se amajeri, hakurikijwe imvugo y'uturere, iki gihingwa cyera mu gihugu, mu Rwanda, aho ariho hose, kiraryoha, kiribwa ku binyabijumba, ndetse kikanatekwa no mu mboga, kikanagira vitamin nziza cyane, umubiri wacu ukenera.

Ubworozi bw'inkoko n'itungo ryiza riciriritse ritanga ibikenerwa nk'amagi, ndetse n'inyama ku bazoye. Ndetse zigatanga n'amafaranga ziroroka cyane igihe witaye ku bworozi bwazo.

Ubuhinzi bugezweho, ubuhinzi bukoresheje ibyuma aho bavomerera ndetse bakanafata neza imyaka, ni ubuhinzi bwa kijyambere kuko bashobora kuvomerera ndetse bakanabukora igihe icyo aricyo cyose, haba mu izuba cyangwa se mu mvura, birasaba ko ufite ibikoresho bihagije kuko butandukanye n'ubuhinzi.

Ibiti byinazwa mu bihoho, bigaterwa neza mu butaka, kugira ngo bibone uko bikura neza. Ushobora kwinaza ibiti by'imbuto ziribwa cyangwa se ibiti byo gucana. Gushyira mu bihombo imbuto ziterwa, nibwo buryo bwiza bwo kubona ingemwe umuntu atera iyo agiye....

Ibigori birahingwa byamara guhingwa, hakabaho igikorwa cyitwa gukora, icyo bita apurikasiyo, icyo gihe baba bashyira ifumbire ku bigori, ahaherera ku mizi, bakorosaho itaka bityo ikigori kigakura neza, bashiraho ifumbire mvaruganda, ariko baba barabanje guteza imborera.

Inkoko ni itungo ryororoka vuba cyane cyane iyo ryorowe neza kuko inkoko imwe ishobora gutera amagi, amagi ashobora kuvamo ubushwi burenga ni icumi bityo ikaba yatanga amagi n'inyama mu gihe gito ndetse n'amafaranga.

Imyumbati iyi ni imyumbati ihingwa henshi mu gihugu, uretse mu gace k'amajyaruguru agave k' ishyamba ry'ibirunga, imyumbati iraryoha kandi ni ibiribwa bitera imbaraga.

Ubu, telefoni ni igikoresho gikoreshwa na buri muntu wese. Ishobora kwifashishwa mu buhinzi, mu butetsi, no gutara amakuru, no mu itumanaho. Telefoni, nubwo waba uri mu mirimo inyuranye, igufasha nk’igikoresho cy’ibanze kandi igikoresho

Ubu ni ubuhinzi bw'amasaka. Amasaka ni igihingwa, ni igihingwa cyera mu Majyaruguru ndetse na henshi mu gihugu. Kivamo igikoma, ndetse kikavangwa n'ibigori n'ingano.

Ibirayi byitwa kinigi bikunze kwera mu karere ka Kinigi, umurenge wa Musanze. Ibirayi ni ikiribwa cy'ingandurarugo kandi bikundwa na buri muntu wese, aho biri ntubiyoberwa kandi kubihinga biroroha.

Ibishyimbo bamaze ku bisarura, ibishyimbo harimo ibyitwa kajamalite, hakaba ibyitwa mutiki, hakabamo ibyitwa kijugaramye, hakabamo ibyitwa umushingiriro, n'ibishyimbo bitanga umusaruro, byera mu majyaruguru henshi mu gihugu.

Ibigori byitwa iburide akenshi byera hirya no hino. Ni imbuto zigurwa hirya no hino cyangwa zigatangwa na sosiyete yitwa Tubura. Aba ari imbuto z'indobanure. Iburide n'ibigori byiza kandi byera byinshi.

Guhinga ntabwo bisaba guhinga igihe cy'imvura gusa n'igihe cy'izuba barahinga. Ahubwo hakabaho icyo bita kuvomerera imyaka igakura. Ubu buryo bukoreshwa mu gice cy'iburasirazuba hakunze kuva izuba ryinshi cyane, imvura ikabura.

Avoka ni urubuto rw'ingirakamaro rukundwa na buri wese, ruvamo ibinyuranye birimo amavuta ndetse n'isabune, iyo bitunganirijwe mu ruganda, cyangwa se bigakorwa n'abantu bazi uburyo bitunganywa.

Ingano ni igihingwa gikundwa kivamo ifarini, n'ifarini ikavamo imikati, ndetse muri iki gihe ingano zarahenze bitewe n'intambara yo muri Ukraine n'Uburusiya, bikaba bisabwa ko nko mu Rwanda twahinga no muri afurika twahinga ingano nyinshi, kugira ngo twihaze.

Igihingwa cy'ibirayi gihingwa iburengerazuba bw'u Rwanda, kikiganza no mu majyaruguru y'u Rwanda. Iki gihingwa cyitwa ibirayi, kuri iki gihe gisigaye gihenze, kuko kubona imbuto yacyo biragoye kandi biravunye. Birasaba kuba ufite amafaranga ahagije.

Amashu ahingwa mu busitani ahegereye urugo, cyangwa se mu murima, cyangwa se mu nkengero zaho kandi ibyiza amashu yahingwa ahantu hahereye, ahantu bigaragara ko hashobora kugera amazi kugira ngo akure neza. Wayahinga mu gihe cy'izuba ukayavomerera kugira ngo akure.

Imbuto nka wotamelone, zifasha mu kongera amaraso ndetse no gutanga vitamini igihe cyose umuntu ayikeneye. Ni ikiribwa cyiza, ni n'urubuto rukungahaye ku ntungamubiri. Abazishoboye zose twajya tuzisanga ku isoko ziraboneka ku buryo bworoshye, tukubaka ubuzima.

Ni igihingwa cyitwa ibigori. Igihingwa gikundwa haba iburasirazuba, haba iburengerazuba bw'u Rwanda, haba no mu majyaruguru. Kigira impeke, kirakundwa, kiribwa cokeje cyangwa se kikanarirwa gitetse, n'amatungo aragikunda haba kukirya ndetse no kucyona n'inyamaswa iyo zibisanze mu murima zirabirya ndetse n'amatungo.

Urubuto rwitwa voka ni urubuto rukundwa hanze no mu mahanga, ku buryo hari n'izoherezwa no mu mahanga. Kandi inganda ubu zarazitabiriye, kuko zizikuramo amavuta yo gusiga imisatsi.

Imboga zitwa amashu ni imboga zihingwa ahantu hanini mu kabande, ahantu hari ubutaka bwiza. Akenshi ishu ryeze neza rigira ibiro bitatu hari n'irigira ibiro bitanu, ishu akaba ari uruboga imboga ziryoha iyo zikaranzwe.

Ibirayi iyo bigiye kugurishwa akenshi bipakigwa mu mifuka ya kirojana, iyo mivuka ya kirojana igapakirwarwa imodoka ku buryo upima, apima ijana, ijana na makumyabiri, ijana na cumi kuzamura, akenshi bigahabwaki imodoka zijya i kigali.

Amateke ni igihingwa gikundwa n'abantu benshi . Amateke atekwa ku bishyimbo agatekwa no ku mashaza. Kandi uyariye akagira imbaraga gusa kuyahorera si byiza, kuko intungamubiri zayo aba ari nkeya cyane . Cyane cyane igihe atakoreshejwe ku binyamisogwe.

Igihingwa cyitwa ikijumba, igihingwa ubu gisigaye gikunzwe gishobora kuvamo n'amandazi. Gikundwa n'abantu benshi ku buryo nk'ahitwa kwa Nyirangarama baba bakivanamo ibintu byinshi bitandukanye birimo ifu, ikorwamo amandazi. Kiraryoha kinatera peti iyo kiriwe kiri hamwe n'ibindi n'ibinyamisogwe.

Ihene ni itungo rigufi. Ihene rikaba itungo ryororerwa henshi mu gihugu kandi rishobora gutanga umusaruro ueza imbere n'uwaryoroye. Ririsha mu kibara cyangwa se mu gisambu cyangwa se rikaba rishobora kwahirirwa. Hari n'ihene zishobora gukamwa zigatanga amahenehene, amata ashobora kubyibushya abana no kubarinda.

Akarere k'ibirunga gaherereye mu karere ka musanze, no mu karere ka nyabihu, hakunda kugwa imvura cyane hagahingwa ibirayi, ndetse ni akarere gakonja ariko kakaba akarere keza kuko bagakundira kuba ari akarere kadakunze kugaragaramo indwara nyinshi kubera ubukonje nta bushyuhe mbese haba hari amahumbezi n'amafu.

Ubuhinzi bw'ibirayi bukoreshwamo amafumbire ku buryo amafumbire y'uburyo bunyuranye, akenshi bahinga ku mirongo kugira ngo hazaboneke umusaruro, bizanere...

Ubuhinzi bwa marakujya bwiganje mukarere ka Gakenke, bugira amafaranga menshi cyane ku bantu babwitayeho bityo bikabafasha mu mibereho yabo ya buri munsi.

Iki gihingwa cyitwa intoryi nini, icyo bita ikibiringanya, gitekwa mu bishyimbo, kigatekwa mu mashyaza, cyangwa se kigakarangwa mu mboga zisanzwe, kigakundwa cyane kuko kiri mu bigize bifite intungamubiri.

Igihingwa cyitwa avoka ni igihingwa cyiza cyane. Kigira imbuto ziribwa, ndetse n'amavuta ya avoka avamo amasabune, akavamo n'amavuta yo kwisiga. Ikagira na vitamini yubaka umubiri. Duhinge avoka nk'igiti kiribwa.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo buvanze n'ibigori ni ubuhinzi bwabagaho mu gihe cya mbere, hatari habaho icyitwa guhuza ubutaka ngo hahingwe igihingwa kimwe, gishobora kwera kikanazana umusaruro, bityo guhinga imyaka ivanze ntabwo ari byiza kuko bitubya umusaruro.

Imbuto zitwa imyembe, ni imbuto ziryoha kuko zishobora kuvamo umutobe, umutobe ufite Vitamini A. Kandi vitamini A ikarinda ubuhumyi, ku bana no ku bantu bakuru. Imyembe icuruzwa hose, ku masoko hose, ikunda kuboneka.

Imyumbati ni igihingwa gikundana n'izuba akenshi hari n' igihe cyiba gihinzwe hamwe n'urutoki. Imyumbati ikunze kugaragara mu karere ka Kinazi no mu karere ka Muhanga; ahongaho haba n'uruganda ruyitunganya hakavamo ifu y'ubugari ikundwa n'abantu.

Ubucuruzi bw'imiteja, imiterere ni myiza, imiteja ituruka ku bishyimbo, ariko hakaba n'ubwoko bw'imiteja iyindi itavamo ibishyimbo ariko ihingwa nk'imiteja iribwa. Imiteja ikaba yagurishwa ndetse no mu masoko.

ilIgihingwa cyitwa ibitunguru ni igihingwa gikoreshwa cyane cyane mu guteka, gituma ibiryo biryoha bikanahumura neza, uwagikoresheje gishobora no kuvamo umuti, ushobora kuvura ikintu cya gaze mu mara no mu gifu.

Pavuro ni igihingwa, ni urubuto rushyirwa mu biryo, rimwe hari n'abotsa burusheti bakagenda bashyira ku hagati mu myanya yayo kugira ngo iyo buroshete iryohe . Pavuro ituma ibiryo bihumura, akenshi iyo ikaranganywe n'ibyo kurya.

Ibitoki ni igihingwa kizwiho kuba kirwanya inzara kandi ni igihingwa cye kivamo inzoga, ndetse ni igihingwa gikunzwe kuko cyera henshi mu gihugu haba mu majyepfo, haba mu majyaruguru hose mu gihugu igitoki kirahaboneka. Kigoboka abantu cyane cyane mu gihe cy'inzara, mu bihe byo mukwa cyenda n'ukwa...

Aha ni ahantu heza cyane ho kuruhukira hagaragara, hagaragara ko hari ibiti binyuranye bitanga akayaga, ahantu hadatuwe h'agashyamba, agashamba gaciriritse.

Amoko y'ibishyimbo aranyuranye: hari ibishyimbo by'umweru, hakaba ibishyimbo bitukura, hari ibyitwa kiryugaramye, hari ibyitwa mutiki, hari ibyitwa kiryumukwe, amoko y'ibishyimbo ni menshi. Hari ibishyimbo bigufi, hakaba n'ibishimbo bishyingirirwa, bityo ibishyingirirwa bikaba bizwiho gutanga umusaruro gusumba ibishyimbo bigufi.

Ibi ni ibigori, ibi ni ibigori bitetse ibigori bitetse akenshi biraryoha iyo bivanze n'ibishyimbo, bikundwa n'abantu benshi ndetse hari n'ababikoresha nk'ibiryo bitera imbaraga.

Aba ni abasaruzi. barasarura nk'ingano. ingano barashaka imbuto zo kuzongera gutera igihe cy'ihinga, ni ngombwa ko bazisarura zeze naho iyo uzizaruye ari mbisi ntabwo wabonamo imbuto zihagije.

Iki n'igihingwa cy'ibigori kigaragara mu karere k'Amajyaruguru hafi n'ikiyaga cya Burera, bishobora kugaragara no ku kibaya cya nyabarongo mu gace k'Amajyaruguru.

Ubuhinzi bw'imiteja, imiteja iraryoha imiteja ikarangwa mu mavuta, imiteja itekwa hirya no hino ishobora kurishwa umuceri ikarishwa n' ibirayi, ikarishwa n'ibindi imiteja igira na vitamini nziza vitamini A na C.

Igihingwa cy'ibigori kiboneka henshi mu Rwanda. Mu gutunganya ibigori bisabwa kubigosora kandi ukabigosora ukoresheje intara, cyangwa se igikoresho cyitwa inkoko. Iyo bigosoye biraribwa, bivangwa n'ibishyimbo, bigasheshwamo igikoma n'ifu yo kunywa.

None ikawa ni igihingwa kizwi henshi mu Rwanda. Ikawa iratunganywa ikanyobwa, kandi kikaba igihingwa ngengabukungu cyoherezwa hanze kikazana amadovize akenewe na leta mu mikoreshereze y'amafaranga, kandi amafaranga leta ikayatuma ibyo ikenewe mu mahanga.

Intara, cyangwa se iyo bita intara yo kugosoreraho imyaka. Ni igikoresho gikoreshwa mu isarura, cyangwa se igihe basukura imyaka, ibinyamisogwe cyangwa se ibinyampeke.

Ikigori ni igihingwa kiza, ni igihingwa gikundwa na buri muntu wese, ikigori kiraribwa, kiribwa gitetse, kandi kikanaribwa cyokeje, birimo amoko menshi, birimo vayisi bambo, birimo hayiburide, bikabamo ibyitwa difaranse, ku buryo usanga bifite n'amabara anyuranye.

amashyaza yumye amaze igihe asaruwe, amashaza aribwa atetse kandi agakenerwa na buri muntu.

Akenshi mu isarura igikoresho cyitwa intara, gikoreshwa kigosora ibishyimbo bikabikwa bifite isuku ,kandi bavanamo ibyatsi byitwa ibishoboshongo. Intara ni igikoresho cyifashishwa mu mirimo inyuranye, cyane cyane mu gusarura ibinyamisorwe n'ibinyampeke.

Ingano ni igihingwa gikomeye cyane mu mibereho y'umuntu, ingano zikoreshwa mu kwenga inzoga zirimo byeri, nko mu ruganda rwa BRALLIRWA, ariko igikomeye cyane zivamo umugati, umugati ukundwa ndetse no ku isi hose.

Ingano ni igihingwa gihingwa hirya no hino mu gihugu, ingano utazizi wazitiranya n'umuceri, ariko ingano zo aba ari nini kandi ntabwo zigira ibara ry'umweru, ingano zikoreshwa mu bintu byinshi: zengwamo inzoga ndetse zikavamo n'ifarini ikorwamo imigati.

Imbuto z'igihwagari iyo zimaze kuwuma zivanwamo amavuta. Aya mavuta agakoreshwa mu guteka akaba amavuta meza cyane. Abahanga bavuga ko yaba anavura n'indwara y'umutima. Amavuta y'igihwagari rero aho tuyabonye hose twayagura, kuko ni amavuta aryoha. no mu bihugu byo hanze bakunda.

Umuceri ni igihingwa gikunzwe. Kuko ahenshi umuceri ni igihingwa kirwanya inzara, gusa ikibazo cyawo ni usigaye uhenda. Kubera ko umuceri mwinshi uturuka hanze y'u Rwanda. Igihihugu cyacu duhinga umuceri mukeya, bityo umuceri ukaba ukenewe ku biryo bya buri munyarwanda.

Amasha ubuhinzi bw'amashaza, hari amashaza ahingwa mu myaka akera akera ku buryo bworoshye, hari n'ahingwa ari maremare bikaba ngombwako ashingirirwa agakura afata ku biti. Ayo ngayo atanga umusaruro mwinshi.

Ibishyimbo bihingwa henshi mu Rwanda. Hari ibishyimbo bigufi, hakaba n'ibishyimbo bishyingirirwa. Ibishyimbo bishingirirwa na byo bizwiho kuba bitanga umusaruro mwinshi cyane, ariko ibishyimbo bigufi bikaba bizwiho kuryoha.

Ubworozi bw'inkoko buteye imbere mu Rwanda ku buryo amagi asigaye aboneka hose. Ndetse rimwe na rimwe hari igihe amagi ahabwa, agenerwa igihe cyo guhabwa abana, kugira ngo habeho icyo bita kuzamura imirire. Twebwe dutegetswe kurya amagi, kuko afite intungamubiri ku buzima bwacu.

Ubworozi bwo kuragira ku gasozi ntabwo bukemewe ubu kuragira neza no korora ni ukora mu rugo kugira ngo amatungo aguhe ifumbire, yafumbire ukayikoresha mu guhinga ndetse no kongera umusaruro.

Korora inkoko ni byiza zitanga amagi, amagi akadufasha mu mibereho yacu ya buri munsi. Amagi akongera imirire ku bana bato, ndetse no ku bandi bantu bafite indyo nkene. Tworore inkoko iwacu.

Ihene ni amatungo yororoka ndetse agira n'amafaranga menshi, ihene yoroka vuba ugereranyije n'inka, kandi ku masoko arahenda, ihene ni itungo rigufi kandi rikaba rikunda kurisha ubwatsi bwumutse atari ubwatsi bw'imvura cyangwa se butose.

Umuganga w'amatungo arakingira inka. Arayiha urukingo ikingirwa ahantu hitwa urupango.

Inka zitwa inyambo ni inka zajyagamo no mu gitaramo bakagaragaza inyambo. Inyambo ni inka zari inka z'ibwami, ibwami bakazikoresha mu birori ndetse no mu bitaramo.

Inyoni yitwa nyirabaraza ikunze kuba mu gishanga, igira umunwa muremure, igakunda gusakuza cyane, cyane cyane iyo bayikanze. Igira n'ubwoba cyane kuko iyo ibonye umuntu ihita iguruka.

Ingurube y'ishyamba bayita isatura, isatura irakariha cyane, ishobora kurya abantu, ishobora no kuryana, kuko kuyihagarika, ntabwo byoroha, ndetse uwigezeho, agomba no kwiruka, igaragara mu mashamba y'iburasirazuba, nko mu ishyamba ry'akagera.

Iyi ni inyamaswa yitwa inkura. Iboneka muri pariki y'Akagera mu Rwanda ikaba inyamaswa y'inkazi ,cyane cyane ku bantu bayiyenjejeho. Itungwa n'ibyatsi ntabwo ari indyanyama.

Inkware, inkware inyoni ijya gusa n'inkoko, ijya gusa inkoko iri mu giturage, ntiba mu nzu iba yibereye mu kibara cyangwa se mu ishyamba.

Intare ni ininyamaswa y'inkazi bavuga ko ari umwami w'ishyamba, akenshi intare ni inyamaswa yitwa indyanyama, kuko ari zo ziyitunga usanga inyamaswa nyinshi ziyihunga, kubera yuko zazitinya ko yazirya intare ikaba muri parike nasiyonare y'akagera.

Agacurama ni inyamaswa, ni akanyamaswa bakunze kwitiranya n'imbeba cyangwa inyoni. Ni akanyamaswa kazwiho kuba gashobora gutera indwara cyane cyane ku bantu bakunda kuturya. Bityo agacurama aho wakabona wagasenyera kakahava, kuko ni agasimba kabi.

Iyi n'inyoni ikaba imwe mu nyamaswa zororerwa ziba mu gasozi zitorerwa mu rugo. Kandi iyi nyoni ikaba ishobora gukurura ba mukerarugendo, zigira imiryango itandukanye ziba ziri mu matsinda zitungwa n'udusimba cyangwa imyaka zishobora kujya mu baturage.

Ikiremwa cyitwa imitubu, imitubu iba mu mazi, mu mazi mabi areka mu bizenga, haba mu mayira cyangwa se ahandi hantu idashobora guhungabana. Imitubu ijya gusa n'ibikeri, ariko ntabwo ari igikeri kuko igikeri gishobora no kuba ahatari amazi.

Inyoni yitwa ifundi, inyoni yitwa matene ikundwa n'abana cyane .Ziba mu muryango w'inyoni. Inyoni ziba mu mashyamba hirya no hino.

Iyi nyamaswa yitwa inzovu . Inzovu ni inyamaswa nini cyane igaragara nk'aho ari nini kandi iboneka muri parike y'Akagera no muri parike y'Ibirunga.

Igisiga cyitwa agaca gikunda kwangiza imishwi kikaniyenza ku nkoko. Kirya ni inkoko cyane akenshi iyo ufite inkoko ntuzirinde aka gaca karazimara kuko gatwara imishwi ku buryo buhagije.

Inyoni ziba mu byari, inzu zazo zitwa ibyari zubakwa mu byatsi, bityo bikazirinda ubukonje, ubukonje ndetse no kuba zahohoterwa n'izindi nyamaswa.

Inyoni yitwa inyamanza ni inyoni igira amabara y'umukara n'umweru, mu bijyanye n'umuco nyarwanda akaba ari inyoni igaragaza ubwoko bw'abagesera. Iyo nyoni yitwa inyamanza kuyireba iba nziza, kandi bavuga ko inyamaza inyerera ariko ntiyona.

Inuma ni inyoni nziza cyane akenshi inuma igaragaza amaho ni ikimenyetso cy'amahoro. Na Yesu ubwo yabatizwaga inuma yaraje igwa ku rutugu rwe kiba ikimenyetso cy'uko umwuka wera umumanukiye; abenshi hari abagirira nabi inuma bakanayirya cyane cyane nk'abana bato bakunda kuzitera amabuye.